Iri nitsinda ry'abantu benshi abagore n'abagabo barimo barimo barakoma mu mashyi umugabo umwe arambuye amaboko bambaye amatara arimo ibara ry'umweru bafite amako magufi imbere yabo hari umugabo wambaye lunette ufite uruhara yambaye ikoti ry'umukara n'ishati mwimbere irimo ibara ry'umweru.

Uru ni uruhurirane rw'abantu benshi, abagore n'abagabo, hari imodoka ishinzwe gutwara abarwayi iri mu ibara ry'umweru, yandikishijeho amagambo mu ibara ry'umutuku, hari n'ahandi handikishijeho amagambo mu ibara ry'umweru, hari aho bugamiramo izuba riri mu ibara ry'umweru, hari abashinzwe umutekano.

Aha ni ku ivomero rusange aho hahura abana bato, bose barirabura, bose bafite agasatsi gake, harimo uwambaye agakote k'umutuku, harimo uwambaye agapira k'umutuku, harimo uteruye mwana, harimo uri inyuma utabasha gukora kuri robine, hari uyikozeho neza ari imbere yabo bose.

Iri nindi tsinda ryabantu benshi abagore babiri nabagabo babiri imbere yabo hari icupa rya amaziyange umugabo umwe wambaye ishati'amamarema ibabara ry'umukara ari kurebera imbere hari mudasobwa umugore umwe afite imikoro mu ntoki ari kurerebana nundi wambayenete wambaye ikote rimwe ibara ry'ubururu bwijimye.

Iki ni icyapa cyerekana ku ivuriro rusange hariho inzu yubatse mu buryo bwa etajee ifite amadirishya n'ibirahure, isize irangi ry'umweru icyo cyapa kiri mu ibara ubururu, handikishijeho amagambo mu ibara ry'umweru, hari n'imibare yandkishije amagambo mu ibara ry'umweru hari n'andi yandikishije mu ibaraara ry'ubururu hari n'ayandi yandikishije mu ibbara ry'umuhondo.

Iri ni itsinda ry'abantu benshi, abahagaze n'abicaye, abagore bitandiye, abagabo babiri, umwe wambaye umwenda uri mu ibara ry'umweru, undi yambaye ishati y'amaboko maremare iciyemo uturongo tw'umukara n'umweru, arimo gusuzuma akana kamureba mu maso.

Ivomo usange hari amazi arigwa mwibasi andi ari kugwa hasi ibara ry'umutuku akaba ari abana benshi bafite umusatsi mukeya birabura hari abambaye agapira k'amaboko maremare imipira y'amaboko magufi hari abahagaze hari uwambaye agapira kari mu ibara ry'umutukunturari'i ibara ry'umutuku umweru n'ubururu.

Aba ni ingeri zitandukanye abagore n'abagabo, bakaba bicaye mu ntebe zi mu ibara ry'umuhondo, inyuma hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, hakaba handikishije amagambo mu ibara ry'umweru, bakaba bambaye udupfukamunwa, hakaba harimo abirabura, hakaba harimo abambaye amakoti y'umukara, amashati y'umweru n'amakaruvati mu imbere, hakaba harimo n'umugore wambaye agakanzu mu imbere kari mu iburara ry'umutuku.

Aha ni ku Kigo Nderabuzima aho umwe bari kumutera urushinge, yambaye agapfukamunwa kari mu ibara ry'umukara, yambaye ingofero, yambaye baga mu ijosi, yambaye umupira uri mw'ibara ry'umukara, aricara aricaye afite undi uri mu ibara ry'icyatsi mu ntoki, uri kumutera urushinge wambaye agapfukamunwa, yambaye itaburiya iri mu imwe ibara ry'icyatsi kibisi.

Aba ni abana batoya bambaye imipira y'ubururu handikishijeho amagambo mu ibara ry'umweru, handikiweho n'amagambo mu ibara ry'umukara, batatu bari imbere umwe muri bo yambaye agakoma k'umukara, bafatanye ku rutugu babiri baraseka bari imbere umwe abumbye umunwa hagati yabo.

Abana bato b'abanyeshuri bari koga mu ntoki imbere hari robine zifashishwa zivamo amaza yo gukora imirimo itandukanye, bambaye amajipo ari mu ibara ry'ubururu amashati ari mu ibara ry'umweru rifite amakora ari mu ibara ry'ubururu, barogoshe, bari guseka, barirabura.

Aba ni abagore bamwe umwe wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko magufiya yubitse umutwe ni inzobe ateze agatambaro k'umukara mu mutwe imbere ye hakaba hari uwundi wambaye ishati irimo amabara y'umweru akaba ateze igitambaro cy'igitenge mu mutwe inyuma hakaba hari undi uri kureba hasi wirabura akaba arakaye.

Uyu ni umugabo ari ku ivome rusange afite ibido mu ntoki iri mu ibara ry'umuhondo, akaba yambaye ishati y'amaboko magufi. Akaba yirabura, akaba afite amenyo yarade, akaba afite ishinya y'umukara, akaba ari kurebera imbere ari guseka, akaba yambaye ipantaro y'umukara, inyuma ye hakaba hari imihate iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Barirabura bateze amaboko iruhande rwabo hari intebe ziri mw’ibara ry'umweru hari n’izindi ziri mw’ibara ry'umukara, hari uwambaye agapira k’amaboko magufiya gas’umukara, hari uwambaye ijire y'icyatsi kibisi m’imbere yambaye umwenda usa umutuku, hari n’uwundi wambaye agapira gasa move yambaye m’imbere umwenda w'igitenge.

Murabona batandukanye, hakaba harimo umwira n'umuzungu umwe wambaye rinete, umusatsi wera uvanze n'umukara, hakaba hari ufite ifatamashusho, hakaba hari undi uri kuvugira kuri terefone, wirabura, wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati mo imbere, ikote.

Iri ni tsinda ry'abantu benshi, harimo abahagaze n'abicaye, muri bo harimo abambaye amataburiya ari mu ibara ry'umweru, bose bambaye ibibaranga mu ijosi, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru, ibara ritoya ry'icyatsi ririho amafoto yabo.

Abana babiri batandukanye umwe arunamye ari kureba mu ndobo y'ubururu yambaye agakabutura k'umuhondo kagufiya ,yambaye isengeri y'umukara ,afite umusatsi mukeya ,arirabura, undi arahagaze imbere ye afita akandi kambinika mu ntoki karirimo ibara ry'ubururu, yambaye agashati y'amaboko magufi n'agakabutura n'udusiripa.

Iri ni itsinda ry'abantu benshi abagore n'abagabo bose bahagaze barareba imbere, harimo umugabo wambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru y'amavuko maremare, hari umugore washyize amaboko imbere yambaye ishati iri mu ibara ry'umutuku, hari n'undi mugabo washyize amaboko inyuma yambaye ishati y'amavuko magufi iri mu ibara ry'umutuku, harimo n'undi wambaye ishati y'amaboko maremare iri mu ibara ry'umweru.

Iri ni itsinda ry'abantu benshi abagore n'abagabo imbere yabo bateretse icupa ry'inyange ririmo amazi, imbere yabo hari amakayi harimo umugore wicaye w'umwirabura afite agasatsi gakeya iruhande rwe hari umuzungu wambaye ishati iruhande rwe hari undi muzungu wambaye ikoti ry'amaboko maremare ririmo ibara ry'umukara, yambaye karuvati iri mu ibara ry'umutuku.

Aha ni ku ivomero rusange, hari abantu batatu bafite amabido ari mu ibara ry'umuhondo, umugabo umwe wambaye ikoti riri mu ibara ry'umukara n'umweru, umugore undi wambaye agapira kari mu ibara ry'ubururu n'akajiri kari mu ibara ry'umutuku, undi mugore yambaye agapira k'amaboko maremare, yambaye n'igitambaro mu mutwe.

Hano ni ku isoko. Hari abana babiri bari kuvoma bafite amabido ari mu ibara ry'umuhondo karimo umukobwa wirabura areba hasi, afite agasatsi gakeya, yambaye agasengeri akaba apfukamye, akaba yambaye akenda hasi kari mu ibara ry'umukara umwana ku ruhande na we akaba yambaye agasengeri kari mu ibara ry'umukara ku ruhande rwabo hakaba hari ibyatsi bitandukanye.

Uru ni uruhurirane rw'abantu benshi, harimo abagore, abagabo, barirabura, bafite agasatsi gakeya, hari abiteze ibitambaro, hari abambaye jire ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, uwicaye, hari abateruye umwana, hari abambaye udupira tw'ibara y'umweru, hari abambaye ibitenge biri mu ibara ry'umutuku.

Iri ni itsinda ry'abanyeshuri bicaye bari gufata ifunguro, bambaye udupfukamunwa tw'amabara atandukanye ubururu n'umutuku, bambaye imyenda y'ishuri y'amabara atandukanye kake, n'ibara ry'ubururu, inyuma hari ikibaho kiri mu ibara ry'umukara handikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Aha ni kw’ivomero rusange aho hari umwana mutoya wogoshe, wambaye agapira karimo amabara, agakabutura kari mu ibara ry'umutuku, udukweto dufunguye turi mu ibara ry'ubururu, imbere hari indobo irimo amazi, iruhande rwe hari ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, inyuma ye hari inzu isize amabara y’ubururu n'umweru.

Aba ni abantu babiri, umwana mutoya wirabura wogoshe, yambaye imyenda iri mu barai rya kaki afite urufuro mu ntoki, arikozwa n'umugore wambaye agapfukamunwa ufite umusatsi mukeya, wunamye, wirabura, yambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu.

Abana abantu babiri umwe yambaye agatambaro k'umweruru mu mutwe undi n'umwana muto yambaye agapira kamaboko maremare higanjemo ibara ry'umweru ryinshi, imbere ye hari imboga ziririmo ibara ry'icyatsi umumama yambaye agapira k'amaboko magufi harimo amabara y'umweru, umukara mukeya, umutuku muke...

I.rindi tsinda ry'abantu benshi abagore n'abagabo bose barahagaze bazamu igipfunsi bambaye imipira imwe ibara ry'ubururu y'amagambo mubara ry'umweru bambaye ingofero bose ibara ry'umweru inyuma yabo hari icyapa kirimo bara ry umweru ahanci amagambo atagaragara neza ibara ryumu kan

Uru ni uruhurirane rw'abantu benshi, abagore abagabo hari abicaye hari n'abahagaze, mu bicaye hari uri kuvuga wambaye ikote wogoshe, usa inzobe hari ufite mudasobwa imbere ye, hari nundi wambaye ikoti imbere akaba yambayemo ishati iri mu ibara ry'umukara hari abahagaze, umwe afite umusatsi wambaye rinete wunamye.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga, hari agace kamwe kubakishije amatafari ahiye, hakaba hari n'ahandi hasize irangi, hejuru hakaba hari parafo isa umweru, hakaba hamanitsemo ifoto, hakaba harimo umugabo uhagaze wirabura, hakaba harimo n'umugore wicaye wirabura, ufite umusatsi w'umukara akaba yambaye agapira k'amaboko magufiya.

Uyu mwana muto w'umunyeshuri uri koga amaboko muri kandagira ukarabe ahagaze yambaye ijipo irimo ibara ry'umutuku yambaye ishati irimo ibara ry'umutuku n'umweru rifite ikora ry'umutuku yambaye karuvati y'umutuku arogoshe ari kureba ku maboko inyuma hari ikibambazi cy'ubakisha amatafari ahiye iruhande rwacyo hari urugi rw'umutuku.

Aha ni kwa muganga hahurira ababyeyi batandukanye bafite abana batoya bamwe barabakiye undi ari kumwonsa wambaye igitenge mu mutwe akenye ikindi yambaye ishati y'igitenge undi aramuteruye wambaye akenda kari mu ibara ry'umweru , udusogisi tw'umweru yambaye we umupira uri mu ibara ry'umutuku ateze agatambaro k'umukara mu mutwe.

Iki ni icyumba gikorerwamo inama hari abicaye batandukanye hari n'umwe wicaye wenyine wambaye ikote mu ibara ry’umukara mo imbere yambaye ishati irimo ibara ry’umweru wogoshe wicaye mu ntebe y’umukara iruhande rwe hari idarapo ririmo amabara atatu atandukanye y’urwanda ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi harimo umuzungu wambaye ikote ry'umweru.

Uru ni uruhurirane rw'abantu batandukanye, abagore n' abagabo . Hari abahagaze, hari abasutamye bambaye imipira y' amaboko magufiya arimo ibara ry'umweru, inyuma yabo hari icyapa kinini cyirimo ibara ry'umweru, hakaba hariho ibara ry'umutuku ritoya, hakaba hariho n'abantu, hakaba inyuma hari ikibambasi cyubakishishe amatafari ahiye.

Ahandi ku kuva muri rusange iyo hari umwanawanda ufashe kuri rubine hakaba hari indobo zisumweru ebyirindi akababifite mu ntoki bakaba bogoshe bakababibura umwaka wareba imberefite amade imboneza umukara namenyeyu'mweru nyuma ya hakaba hari ibyatsi ariko bitagaragara neza.

Uri ni uruhurirane rw'abantu, abagore n'abagabo bose baricaye imbere yabo bateretse amazi y'inyange, bari kurebana, harimo uwambaye ikoti riri mu ibara ry'ubururu mo imbere ishati y'umweru, hari umumama w'inzobe ufite agasatsi gakeya, hari umupapa wifashe mu mutwe, wambaye ishati y'amaboko maremare iciyemo uturongo.

Ivomero rusange hari amazi amwe ari kumeneka andi hari umwana wirabura udafite umusatsi mwinshi wambaye agapira k'amagufiya agakabutura k'ubururu arivomera mu gikombe cy'umuhondo hirya ye hari ibyatsi birimo icyatsi kibisi, imbere ye iyi vumbero rikaba ryubakishije muburyo bw'igikuta.

Aha ni ku ivomero rusange aho abantu batandukanye abana, abagore, n'umugabo uri kubafasha yambaye agapira k'amaboko magufiya karimo umweru, akaba yambaye ipantaro, akaba yunamye, akaba yirabura, hakaba harimo mu bana arimo gufasha uwambaye agapira k'ubururu, bakaba bari kuvomera mu ibikoresho bitandukanye bifite ibara ry'icyatsi kibisi, ubururu n'umuhondo.

Aha ni ku ivomo rusange, hari umugore uri kuvomera mu ndobo y'icyatsi kibisi, akaba yunamye, akaba yirabura, akaba yambaye agatambaro mu mutwe, akaba yambaye ibirenge, akaba yambaye igitenge kirimo amabara y'umutuku n'umukara, hakaba hari abandi bari gupomba, umwe akaba yambaye agasengeri k'umweru, arirabura, n'undi wambaye agapira karimo umutuku n'ubururu.

Iri ni itsinda ry'abanyeshuri batoya birabura bambaye imyenda y'ishuri iri mu ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari abakuze bambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru bambaye ingofero, harimo abazungu babiri n'abirabura batatu, umwirabura umwe azamuye akaboko yambaye rinete.

Aha ni ku ivomero rusange hari umugore wambaye akagofero, akaba yambaye umupira w'amaboko magufiya, akaba akenyeye isharupe irimo amabara y'icyatsi kibisi n'umukara, akaba ari kuvomera mu ibido isa umuhondo, inyumaye hakaba hari ibyatsi bitandukanye, hakaba harimo n'ibiti bifite amababi y'icyatsibisi, hakaba ikivomero risimatishije isima isanzwe.

Uru ni uruhare rw'abantu benshi abakuze, abana, hari inyuma yabo hari ibiti biri mw'ibara ry'icyatsi kibisi, hari abicaye, hari abahagaze, hari umwana imbere yabo wambaye ishati y'amaboko magufiya, hari ari gusuhuzanya nundi wambaye umupira uri mw'ibara ry'umuhondo yambaye ipantaro wirabura.

irindi miro hatandukanye bakaba barimutse igiti kinini cyane gifite amabati y'icyatsi kibisi nyuma bakaba ari inzu bacisha amatasu umutuku akamamangaferiza icyumweruru akarimouabambaye ingofero y'ubururu akama yambaye umupirisi umweru akaba afite icyapa mu ntoki cyandikishije amagambo ari mu mpera y'umweru mu ibara ry'umuhondo n' ibara ry'umutuku

Uru ni uruhurirane rw'abagore hari uhagaze ari kureba imbere, uteze agatambaro mu mutwe, arirabura, yambaye ishati y'amaboko magufi irimo amabara y'icyatsi kibisi n'umuhondo, yambaye hasi umwenda urimo ibara ry'ubururu, hari abandi inyuma ye bafite umusatsi muke w'umukara, bose barimo bararebana abandi bareba ku ruhande.

Iki ni cyumba kirimo abantu batandukanye, hakaba bose bicaye, hakaba harimo abambaye amakoti, hakaba inyuma hari umugore ufashe ku itama wambaye umwenda uri mu ibara ry'umutuku, ku gikuta hakaba habambitseho ibipapuro bitandukanye biri mu ibara ry'umweru, imbere hakaba hicaye umugore wambaye ibitenge n'ishati yacyo.

Iki ni cyumba cyicamo abantu hatandukanye abagore n'abagabo, hakaba harimo umugore wirabura wambaye ikote, yambaye ishati mo imbere y'umweru, akaba afite umusatsi w'umukara hakaba hari n'undi kuruhande wambaye ishati y'amaboko maremare afite agasetsi gakeya akaba yirabura hakaba harimo n'undi usa inzobe wambaye ishati y'amaboko maremare akaba yambaye karuvati.

Iki ni icyumba krimo abantu batandukanye, abagore n'abagabo, hakaba hari abicaye imbere y'abandi, inyuma yaho hakaba hari icyapa cyandikishije amagambo mu ibara ry'umweru, kirimo ibara ry'ubururu, hakaba arimo umugabo wambaye isaaha, impeta, ikoti ry'umukara, ikaruvati y'umutuku n'ishati irimo imbere, akaba afite agasatsi gakeya, hakaba harimo n'umugore wambaye agakanzu k'umutuku.

Abana ni abantu babiri bicaye bose barirabura, hari uri imbere uri guseka, akaba afite amenyo yera de, amaso yera de, imboni z'umukara, akaba azamuye akaboko kamwe, akaba yambaye umupira w'imbeho, akaba inyuma ye hari uwundi wambaye agashati, akaba na we yirabura na we akaba arimo araseka, akaba afite amaso yera de n'imboni z'umukara.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare wirabura ufite agasatsi gakeya, yambaye ipantaro y'umukara inkweto z'umukara, akaba ari kogera kuri kandagira ukarabe, ahari akabido kari mu ibara ry'umuhondo, kari ku biti bitatu bibiri bihagaze na kimwe gitambitse, iruhande rwe hakaba hari ibiti biri mubara y'icyatsi kibisi, n'ibindi bifite amababi yibara y'umutuku

Iri ni itsinda ry'abantu benshi, abagore n'abagabo, bose baricaye mu ntebe z'umukara, imbere yabo hari icupa ry'inyange, harimo abambaye amashati ari mu ibara ry'umweru, hari umumama umusutse w'inzobe, hari uwambaye ikoti riri mu ibara ry'icyatsi, uwambaye ikoti riri mu ibara ry'ubururu.

Iri ni ihuriro ry'abantu batandukanye hakaba hari abicaye akanahagaze inyuma hakabamo abagore n'abagabo hakaba harimo uwambaye rinete akaba ari kureba imbere akaba yifashe, iruhande rwe hakaba hteretse amazi y'inyange, hakaba harimo umugabo wirabura wambaye ikote yambaye ipantaro, y'umukara n'inkweto z'umukara akaba hari n'undi muzungu inyuma ugeretse akagury ku kandi.

Aha ni ku kigo nderabuzima, aho hari umugore wirabura, uteza agatambaro mu mutwe k'umukara, wambaye agapira karimo amabara y'umutuku n'umukara, akaba ari n'umwana wambaye akagofero mu mutwe. Akaba yirabura, akaba ari n'undi mugore ufite ikaramu mu ntoki n'amakayi, akaba afite umusatsi w'umukara, akaba yirabura, akaba yambaye itaburiya irimo amabara y'umutuku, icyatsi kibisi, n'umweru.

Aba ni abantu batandukanye, harimo uhagaze, harimo abicaye, hari abana batoya barambuye amaguru, bose barirabura, bambaye imipira isa, inyuma yabo hari usutse ibisuko birebire, akaba yirabura, hakaba hari uwicaye ku ntebe, yambaye imyenda y'umukara, akaba na we yirabura.

Aha ni kw’iriba, aho abantu benshi bato abirabura, hari uri kuvoma wambaye umwenda w'ibara ry'ubururu, hari uhagaze wambaye agapira kamaboko magufi k’ibara ry'umweru, yambaye ikabutura y'ibara ry'umutuku, umweru n'umukara n'amabido ari mw’ibara atandukanye umuhondo ,umukara n'ubururu.

Aha ni ku kigonderabuzima aho bari kuvura akana ahore gatoya kambaye agapira kari mu ibara ry'umweru, gafashwe n'umumama wambaye imyenda iri mu gitenge, arirabura, afite agasatsi gakeya k'umukara, ari guseka, ari kureba umwana, muganga wambaye amarinete, arasutse, yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru.

Aha ni ku ivomero aho harimo uri kuvoma afite ibido mu ntoki riri mu ibara ry'umuhondo yambaye agapira kamaboko magufi kari mu ibara ry'umuhondo gafite umusatsi mwinshi arirabura undi ku ruhande ari koza igare yambaye agapira karimo ibara ry'umuhondo yambaye inkweto z’ibara ry'umweru inyuma yabo hari ibyatsi biri mw’ibara ry’icyatsi kibisi.

Aha ni ku ivumero rusange hari abagore batatu batandukanye umwe yambaye agapfukamunwa k'umweru yamba agapira k 'umutuku, afite umusatsi wirabura na we arirabura undi yambaye apfukamunwa k'umweru wirabura ari kuvomesha amazi intoki iruhande rwe ibiryo inkweto zifunguye ziri mu ibara ry'umukara, undi nawe afite umusatsi muke yari kunywesha amazi ku kiganza.

Iri ni itsinda ry'bantu batandukanye, abagore n'abagabo, hari abahagaze, hari uwicaye wambaye ishati iri mu ibara ry'umweru y'amakaboko maremare, bambaye amataburiya ari mu ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari itente iri mu bara ry'umweru, hari umugore wunamye ari gufata ibikoresho hasi, hari pasiparamu imbere yabo iri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Aha ni ku ivomero rusange aho bakura amazi yo gukoresha, hari uhagaze imbere y'amabido yambaye agapira kari ibara ry'umukara yiteze agatambaro mu mutwe, ku ruhande hari umumama wambaye igitenge yiteze agatambaro mu mutwe, iruhande rwe hari umukobwa mutoya wambaye agakanzu kagufiya, na ho inyuma ye hari undi mumama ufite agasatsi gakeya.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye haka abagore n'abagabo hakaba harimo uwambaye ikoti ry'umukara ari gukoma mu mashyi, akaba yambaye rinete akaba afite umusatsi w'umukara akaba asa inzobe, hakaba n'undi mugabo imbere yabo warambuye amaboko wambaye; itaburiya akaba yambaye ishati yayikunje amaboko kandi n'abandi bagore kuruhande harimo uwambaye isaha n'agasatsi gake uri guseka.

Iyo umuntu yicaye wenyine araraka yifashe ku gahanga arareba imbere yambaye umupira w'ubururu n'utubara tw'umweru yambaye igitenge kirimo amabara y'umweru aziritse amaguru yicaye ku kiringiti gifite amabara atandukanye umutuku umuhondo umukara.

Aba ni abagabo babiri harimo umwe wambaye imyenda icikaguritse, harimo ibice bimwe na bimwe by'umubiri we biri kugaragara, afite umusatsi ushwambaguritse, afite ubwanwa, ari gusuhuzanya n'undi wambaye ishati y'amaboko maremare, wambaye ipantaro y'umukara, muremure, wogoshe, bahagaze mu cyumba gisize irangi ry'umuhondo werurutse.

Uyu ni umugore ukuze wambaye amaherena yateze igitambaro mu mutwe kirimo ibara ry'umweru, ari kureba ku ruhande, arasamye, yambaye agakufi mu ijosi, hejuru yambaye ubusa, iruhande rwe hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kisi, inyumaye hari inzu isize ibara ry'umweruru.

Uyu ni umugabo uri mu gahanga k'abanyamaguru afite umusatsi ushwambagutse w'umukara arirabura yambaye imyenda icikaguritse hasi no hejuru, inyuma ye hari moto iri kuza harimoka iri mu ibara ry'umweru, iruhande rwe hahakikije ibiti birimo ibara ry'icyatsi kibisi, inyuma' harI Undi uryamye mu muhanda.

Aba ni abana babiri na mama wabo, ari kureba imbere, ari guseka, yambaye agapfukamunwa k'umwenda, yakamanuye ku kananwa, atetse igikoma, ahetse umwana mu mugongo mu gashuka kari mu ibara ry'umweru, yambaye igitenge, yambaye n'agapira k'amako magufiya.

Iri ni huriro ry'abantu batandukanye abagore n'abagabo, hakaba harimo abicaye, hari n'uhagaze imbere yabo wirabura, afite umusatsi w'umukara, wambaye ishati y'amaboko maremare, mu bicaye hakaba harimo uwambaye umupira w'icyatsi kibisi ureba imbere, ufite agasatsi gakeya k'umukara wirabura, hakaba n'undi usa inzobe wambaye ishati iciyemo uturongo.

Uyu ni umumama usa imibiri yombi afite amenyo yera de, afite imisatsi miremire, yambaye ikote riri mu ibara ry'ubururu hariho n'utubara tw'umutuku, yambaye imbere umwenda ufite ibara ry'umutuku, akaba yifashe ku maboko iruhande rwe hakaba hari icyapa kiriho amagambo asa mu ibara ry'umweru.

Abantu babiri batandukanye ni igitsina gore bose baricaye umwe yambaye ikanzu irimo ubururu umweru arirabura afite umusatsi mukeya arikureba hasi, undi kuruhande yambaye agapira k'amaboko magufi ya k'umukara nawe arirabura yambaye amaherena umusatsi wumukara.

Abantu benshi abagore ,abagabo ,harimo umuzungu ,harimo abirabura ,hari ab'imibiri yombi hari afite imisatsi isutse harifite imisatsi idasutse ,hari abari gukoma mu mashyi ,hari abari kureba imbere gusa, hari bambaye umupira w'amaboko maremare urimo ibara ry'umukara hari bambaye ikanzu irimo igitenge.

Uyu ni umugore wirabura ari kureba imbere, ararakaye cyane afite amaso y'umweru n'imbone z'umukara, yambaye amaherena ari mu bara ry'umweru, ateze igitambaro mu mutwe, gifitemo amabara y'icyatsi cyijimye, umuhondo wijimye yambaye n'akandi kenda kari mu ibara ry'umuhondo.

Ni itsinda ry’abantu benshi abagore n'abagabo bahagaze bafite icyapa kinini cy’umweru hari abahagaze ku giti kimwe cy’icyatsi kibisi bari gutera igiti kinini umwembaye ingofero umupira w’umukara bateze ibara ry'umukara undi yambaye umupira mugufi mu ibara ry'ubururu bwerurutse.

Uyu ni umugabo wirabura ari kureba hejuru, arogoshe, yambaye ishati y'amaboko magufiya, yo ifite ibara ry'umuhondo n'umutuku, yegamye ku gikuta gifite irangi ry'umweru ariko wanduye, amaboko yose ari kureba hasi afite imitsi, hasi ntabwo hasimase.

Uyu ni umukobwa uri guseka afite amenyo yara de arararamye, arahumirije afite umusatsi muke w'umukara, yambaye udukomo ku kaboko, umukufi mu ijosi, yambaye agasengeri k'umukara, yambaye ikoboyi yayizinze, yicaye hasi, inyuma ye hari ibiti bitandukanye.

Abana ni babiri umugore uteruye umwana ufite umusatsi w'umukara mukeya wirabura, ufite amenyo yera de, afite ishinya y'umutuku, yambaye agapira k'umweru ari kureba umwana wambaye agapira k'amaboko maremare karimo amabara y'umweru, nta menyo afite, afite agasetsi gake, inyuma yabo hari inzu yubakisha amatafari ifite amadirishya.

Aba ni abantu babiri batandukanye, bose bicaye ku ntebe y'igiti, umwe akaba afite agasatsi gakeya kirabura, akaba yirabura, akaba akenyeye igishura kirimo amabara y'umutuku n'umweru mukeya, undi akaba yambaye ishati y'amaboko maremare, akaba asutse ibisuko by'umukara, akaba yirabura, akaba yambaye n'ipantaro y'ikoboyi.

Iri ni ihuriro ry'abantu batandukanye: abagore n'abagabo bose baricaye. Hari ufite indangururamajwi arirabura, imbere hari mudasobwa hateretswe icupa ry'amazi iruhande rwe hari uwambaye rinete yambaye umwenda wibara ry'icyatsi kibisi, ku ruhande hari umugabo wifashe yambaye ishati y'amaboko maremare.

Uyu ni umumama wirabura, ari kureba imbere, nta ngohe afite, akaba afite amenyo yera de, ishinya y'umutuku, akaba afite imyanya hagati y'amenyo, akaba ateze igitambaro gisa n'ibitenge yambaye, hakaba harimo amabara y'icyatsi, umuhondo n'umweru mukeya.

Iri ni ihuriro ry'abantu batandukanye abagore, bagabo hari abicaye hakaba hari n'umupapa uhagaze wifashe wambaye ikote n'ipantaro hakaba ari umugore wambaye agapfukamunwa karimo ibara ry'ubururu akaba yirabura akaba yamabye umupira w'amaboko magufi yari mu ibara ry'umweru akaba yambaye ipantaro y'ibara ry'umukara n'inkweto zifunze.

Uyu ni umugore yicaye ku ntebe y'urubaho akaba yirabura akaba abumbye umunwa akaba areba ku ruhande akaba afite agasatsi gakeya ku mukara k'amoboko maremare akaba yambaye igitenge akaba yambaye inkweta zifunguye imbere akaba hari ikirago akaba yicaye mu cyumba gifunguye idirishya hasi akaba nta sima ihari.

Uyu ni umugabo arahagaze, yambaje ishati yamaboko maremare, afite ubwanwa, arogoshe ari kureba imbere, ari guseka, iruhande rwe hari umugabo wambaye agapira k'amabara y'umutuku, ingofero ireba ku ruhande, ipantaro y'ikoboyi n'inkweto ziri mu ibara ry'umweru.

abantu benshikamo abagore n'abagabokara bambaye umup umutuku akambaye akan umutwe kara ry'umutuku n'umukara iruhande rw rwekarambaye akanda umutwe ka ibara ry'umuhondo imbere akaruhetsa umwana wirabura wogoshe imbereruhagaze bamba agapfukamunwa wambaye muisaha

Abandi bantu batatu batandukanye bicaye hamwe. Umwe ateze agatambaro mu mutwe, yambaye agapfukamunwa karimw’ibara ry'ubururu harimo n'utubara tw'umweru dutoya. Undi yambaye agapfukamunwa karimw’ibara ry'ubururu, yambaye ishati y’amaboko maremare arasutse, undi hirya nawe yambaye agapfukamunwa karimw’ibara ry'ubururu, afite agasatsi gakeya, arirabura.

Uru ni uruhurirane rw'abana benshi bambaye imipira irimo ibara ry'umuhondo hakaba hari uri guseka wambaye akantu mu mutwe karimo ibara ry'umweru akaba yirabura akaba afite amenyo year de akaba afite agasetsi gakeya , akaba afite amaso yera n'imboni z'umukara akaba imbere ye hari ubundi nawe wogoshe w'imibiri yombi akaba hari yambaye akantu karimo ibara ry'umuhondo.

Iyi ni inyubako yubatseho amagambo mu ibari ry'icyatsi kibisi, ikaba ifite amadirishya, ikaba ifite inzugi zisize irange ry'umweru, hasi hakaba hashashe amakaro, ikaba ifite ibirahure, imbere hakaba hari ubusitani hakaba hari n'ibiti bifite amabara y'icyatsi kibisi, ku ruhande hakaba hari igiti kirekire gifite amashami menshi n'utubabi twinshi.

Iri ni itsinda ry'abana benshi harimo umwe urimo araseka cyane yambaye agapira kamaboko magufiya iruhande rwe hari uwambaye agapira kamaboko magufiya kari mw’ibara ry'umutuku undi yambaye ikoti ry'umweru imbere yambayemo umwenda w’ibara ry'umuhondo imbere hari uwambaye agakote imbere yambayemo umwenda uri mw’ibara ry’icyatsi kibisi.

Iyi n’inyubako yubatse mu buryo bwa etage, ikaba ifite ibirahuri byinshi bitandukanye, hakaba har’ahasize irangi ry'umuhondo, hejuru hakaba hasize irangi ry’icyatsi kibisi, hakaba har’amagambo yandikishije mw’ibara ry'umukara, ku ruhande hakaba har’urugi rusize irangi ry'ubururu, imbere hakaba hateye ibiti bifite amababi y’icyatsi kibisi.

Uyu ni umugabo wambaye ubusa ku gice cyo hejuru ni inzobe, ari guseka, arogoshe, afite ingohe ziri mu ibara ry'umukara, afite imboni ziri mu ibara ry'umukara n'amaso y'umweru, afite ishinya y'umutuku, afite akadodo mu ntoki zombi, afite amenyo yerurutse, afite ishinya y'umutuku.

Aha ni kwa muganga aho bavurira ibijyanye n'amenyo, hicayemo umugabo, arogoshe, ari guseka, ari kureba imbere, yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru y' amaboko maremare, yambaye impeta, yambaye isaha iri mu ibara ry'umukara, yambaye inkweto ziri mu ibara ry'umukara, yambaye ipantaro, yambaye mo imbere umupira uri mu ibara ry'umuhondo.

Aha ni ku kigo ndebuzima aho basuzuma ibijyanye n'amenyo, hakaba hari umwana uraramye ufite ishinya y' umutuku, amenyo yera de, wirabura ufite amaso y'umweru n'imboni z'umukara, hakaba hari ufite ibyuma bibiri bifashisha, wambaye ga mu ntoki zombi zisa umweru, akaba yambaye itaburiya isa umweru.

Uyu ni umusore w'inzobere afite ingohi z'umukara nta musatsi mwinshi afite, ari guseka afite amenyo yera de, ishinya y'umukara, nta bwanwa afite, afite akadodo mu ntoki zombi ari kugacisha mu menyo, yambaye ubusa hejuru, igikuta kiri imbere ye gisize ibara ry'umweru.

Aha ni ku kigo nderabuzima hari umuganga wambaye itaburiya isa umwero amaboko maremare yambaye agapfukamunwa k'umweru afite ga mutoki zombi zisa umweru akaba asutse ibisuko birebire imbere uwari gupima akaba anafite by'umukara birebire akaba yirabura akaba yambaye agasengeri ku ruhande rwabo haka n'abandi bambaye udupfukamunwa tw'umweru.

Uyu ni umukobwa ari kwiborosa afite uburoso mu ntoki burimo ibara ry'umweru n'umutuku ariko useka afite amenyo yera afite imisatsi miremire yambaye agasengeri kari mu ibara ry'umweru imbere ye hateretse ubundi buroso afite kurogati mu ntoki.

Aha ni ku kigo nderabuzima aho harimo intebe zifasha abarwayi gusuzumwa neza, hakaba n'izindi zifasha muganga kwicaraho kugira ngo asuzuma umurwayi neza, hakaba harimo imashini zibafasha gukontorora uburwayi butagaragarira amaso, hakaba hari igikuta gisize irange ry'umweru, hasi hakaba hashashe amakaro.

Iri ni itsinda ry'abantu benshi abagore n'abagabo n'umwana, uwambaye agapfukamunwa yambaye itaburiya y'umweru, ari kwigisha umwana muto wambaye ishati y'ibara ry'icyatsi ibijyanye n'amenyo inyuma ye hari umugore winzobere iruhande rwe hari umugabo wambaye imyenda isa ikote n'ipantaro.

Aha ni kwa muganga aho basuzumira ibijyanye n'amenyo, hari umugabo w'inzobe, afite amaso y'umweru, imboni z'umukara, afite amenyo yera, arasamye, afite ubwanwa, imbere ye hari umugore wambaye ga mu ntoki ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi cyerurutse bari kurebana mu maso.

Uyu ni umugabo wambaye ubusa hejuru, afite akado k'umweru gato mu ntoki zombi ari kugakurura, ari guseka, afite amenyo yerurutse afite ishinya y'umutuku, afite amaso y'umweru arimo imboni z'umukara, afite ubwanwa hasi kukananwa, afite n'ubundi hejuru w'umunwa.

Aha ni ku kigo nderabuzima, hari umuganga wambaye amayenete, afite umusatsi mukeya w'umukara, arirabura yambaye agapfukamunwa k'umweru, yambaye itaburiya y'amaboko maremare y'umweru, afashe ikaramu mu ntoki iri imu ibara ry'mweru, imbere ye hari ibikoresho bakoresha kwa muganga.

Aha ni ku kigo nderabuzima aho bavurira ibijyanye no mu kanwa, hakaba hari umuganga wirabura wambaye rinete, akaba yambaye itaburiya y'amaboko maremare y'umweru, akaba yambaye ga ku kaboko kamwe, akaba afite ipimisho bapimisha bareba mu kanwa, hakaba hari umugore uryamye afite umusatsi w'umukara wirabura, arahumirije. Iruhande rwe hari undi mugabo wambaye umwenda urimo ubururu.

Uyu ni umugabo afite ubwanwa hasi ku kananwa afite ubundi hejuru y'umunwa afite akantu muntoki kari mu ibara ry'icyatsi kibisi agakojeje ku menyo afite amenyo yera afite umunwa w'umutuku hasi yambaye ubusa ku gice cyo hejuru.

Abana bana batatu bambaye imyenda imwe ry'ubururu bafite agatsi gakeya barirabura bafite uburoso mu ntoki umwe ubw'umuhondo undi ubw'ubururu n'icyatsi kibisi, hari uri imbere afite amaso yara de, imboni z'umukara, ararakaye, ari kureba imbere, undi ku ruhande afite uburoso mu kanwa burimo ibara ry'icyatsi kibisi.

Ri ni itsinda ry'abantu barimo baravurwa ibijyanye n'amenyo, abari kubavura bambaye imipira n'ibara ry'umweru n'udupfukamunwa, abicaye bari kuvurwa bambaye imipira y'ibara ry'ubururu, imbere hariho amagambo ahi mu ibara ry'umweru.

Aha ni ku kigo nderabuzima ahari umwana wirabura wambaye ishati y'amoboko magufiya isa icyatsi, aho ari kwigishwa ibijyanye n'amenyo n'uwambeye itaburiya y'amaboko maremare y'umweru wambaye agapfukamunwa ariko wakamanuye ku kananwa nawe wirabura, inyuma ye hakaba hari umugore w'inzobe hakaba hari n'undi mugabo wambaye imyenda isa hose.

Aha ni ku kigo nderabuzima, umuganga utagaragara neza mu maso, akaba yambaye agapfukamunwa, akaba yambaye ga, hakaba hari umuntu uryamye ku gatanda w'inzobe, afite amaso yerade, akaba afite imboni z'umukara, akaba abumbye umunwa, akaba afite umusatsi w'umukara, akaba yambaye umwenda urimo amabara y'umukara n'umweru.

Uyu ni umugabo wirabura afite amenyo yerade, afite ishinya y'umutuku, afite ururimi rw'umutuku, afite ubwanwa hasi ku kananwa, afite ubundi hejuru y'umunwa, afite akadodo mu ntoki zombi ari kugakurura karasa umweru, afite amaso yerade n'imboni z'umukara, akaba afite n'ingoyi z'umukara.

Uyu ni umwana mutoya wirabura, ufite amenyo yera de, amaso yera de, harimo imboni z'umukara, afite agasatsi gakeya, afite uburoso mu ntoki, buri mu ibara ry'ubururu n'ibara ry'umuhondo, afatishije akaboko kamwe, yambaye ishati y'amaboko maremare, iri mu ibara ryenda kuba ubururu ariko wererutse.

Uyu ni umusore wirabura afite ingoyi ziri mu ibara ry'umukara, akaba ahumbije afite amaso atagaragara neza. Akaba afite umusatsi mukeya uri mu ibara ry'umukara. Akaba afite akadodo kari mu ntoki zombi, akaba yambaye umupira uri mu ibara ry'umweru wa maboko magufiya.

Aha ni mwisuzumiriro ry'amenyo hari umwana muto cyane arogoshe n’inzobe afite amaso y'umweru ,imboni z'umukara yegamye ku kintu cyiri mw’ibara ry’umutuku afite amenyo yera nde hari umukoze mu kanwa yambaye ga ndetse yambaye akenda karimo ibara ry'ubururu bwerurutse.

Uru ni uruhurirane rw'abantu benshi, hari uhagaze ni umugore yambaye isaha, yambaye udukomo, ni inzobe, iruhande rwe hari abandi bicaye, inyuma ye hari uhagaze wambaye umupira w'amaboko magufiya y'umweru wambaye igikapu, hari n'abandi bamwicaye iruhande bambaye umupira w'icyatsi kibisi w'amaboko magufi.

Aba ni abagabo babiri bose barogoshe bambaye imipiramire irimo ibara ry'umweru bari muri siporo, bafite icupa ry'Inyange mu ntoki iruhande rw'abati birebire byo mu ibarya ry'icyatsi kibisi, umwe yambaye umupira mu ijosi uri mu ibara ry'umukara undi afite inyinya ari guseka afite amenyo yera de.

Aba ni abantu babiri umwe yicaye mu kagare k'abafite ubumuga bwo kugenda, yambaye impeta ari guseka yambaye intete ,yambaye agatambaro k'umukara mu mutwe ari kurebana mu maso n'umufashe ku rutugu, wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu arasutse niinzobe arunamye.

Aba ni abantu babiri umwe n'umugore wambaye isaha afite umusatsi wirabura harimo n'uwumweru, akaba ari inzobe, akaba yambaye agapira k'amaboko magufi kari mu ibara ry'umweru, akaba arimo kwirukankana n'umugabo wirabura ufite agasatsi gakeya wambaye umupira w'amaboko magufiya, akaba afunze ibipfunsi akaba yambaye impeta.

Aba ni abagore batatu bose bicaye bakaba barimo gukina, hakaba harimo uwambaye agapira k'amaboko maremare kari mu ibara ry'umutuku, akaba asa inzobe, akaba arimo kureba hejuru, akaba afite amenyo yera de, akaba afite umusatsi w'umukara, hakaba n'undi ku ruhande, ufite umusatsi w'umweru, akaba yambaye agakufi mu ijosi, akaba yambaye agapira k'amaboko maremare kari mu ibara ry'umweru.

Aba n’abagore babiri bari muri siporo. Umwe afite umusatsi w’umukara harimo nuw'umweru, arirabura, arambuye akaboko, yambaye akantu ku kaboko karimo ibara ry'umweru, yambaye umupira w'amaboko magufiya. Naho uw’inyuma ye, afite umusatsi w’irabura, yambaye amaherena, yambaye agasengeri, nawe arambuye amaboko, inyuma har’ibiti.

Aba ni abantu batandukanye, umwe aricaye, afite imvi z'umweru, yambaye lunette, umusatsi w'umweru, yambaye umupira w'amaboko magufiya, undi arahagaze afite umusatsi muremure, ni inzobe, yambaye imyenda isa hose, afite agatambaro mu ntoki kari mu ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari undi uhicaye, ufite umusatsi w'umukara, umupira w'umweru.

Iri ni itsindada ry'abantu benshi, harimo abagabo n'abagore. Imbere yabo hari ibikoresho ibikoreshwa n'abantu bafite ubumugabo bwo kutagenda. Imbere yabo hari umugabo wambaye ijiri y'umukara, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, yambaye agapiramo mo imbere kamoboko magufi, karimo ibara ry'umweru, bari gusuhuzanya nundi wambaye ama runette, yambaye ishate y'amaboko maremare hari uwambaye ikoti ry'umukara imbere yambaye shati y'ibara ry'umweru.

Abana babiri umwe afashe undi mu mugongo, ufashwe yambaye agapira kari mu ibara ry’ikigina afite umusatsi w'umweru, umufashe yambaye agapfukamunwa n’amarinete yambaye umupira w’amaboko maremare arimo ibar ry’ikigina, iruhande rwabo hari inzu isize amabara y'umweru.

Uyu ni umugore wicayera ari muri siporo yambaye kora iri mu ibara ry'umutuku yambaye agapira ka siporo ka maboko maremare, arambuye amaguru n'amaboko ari kureba ku mavi, afite umusatsi mugufiya, iruhande rwe hari ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi, inyuma ye hari ibiti birebire.

Uru ni uruhurirane rw'abantu batandukanye abagore, abagabo baricaye ha bicaye hasi hari abicaye ku ntebe harimo uwambaye imyenda isa ubururu hari n'undi wambaye ingofero hari n'undi wambaye ikote hari uwambaye umwenda usa umuhondo hari n'umuma uteze igitambaro mu mutwe.

Aba ni abantu batandukanye abagore n'abagabo, mu bagore bakaba harimo uwambaye ikanzu y'amabara y'umutuku, hakaba hari undi wambaye irimo amabara y'umuhondo, bakaba bazamuye amaboko, bakaba bakikijwe n'ibyatsi harimo n'ibihingwa bifite amababi y'icyatsi kibisi, barahagaze hakaba harimo umugabo wambaye umupira w'cyatsi kibisi.

Aba ni bantu babiri batandukanye umwe yambaye umupira wubururu w' amaboko magufi afite ubwanwa bwera afite umusatsi muke wera arirabura yambaye agakabutura k'umukara ,hari umufashe ni inzobe afite umusatsi wumukara yambaye imyenda hose isa umukara bamufashe ku rutugu .

Aba ni abantu babiri bicaye, umwe yambaye amarinete, afite umusatsi urimo umweru, afite ubwanwa burimo umweru bafite amenyenyo yera de ari guseka arirabura, yambaye ishati y'amaboko maremare, yambaye ipantaro, imbere ye hari uwambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu ufite umusatsi muremure ari kumureba na we ari guseka.

Aba ni abantu babiri bafite imisatsi y'imyeru, umugabo wambaye rinete ari guseka cyane, afite ubwanwa bw'umweru, yambaye umupira maboko magufiya, yambaye ipantaro, umugore nawe ari guseka afite igikinisho mu ntoki gifite ibara ry'umukara n'umweru, yambaye umupira w'maboko maremare.

Uyu ni umugabo ufite umusatsi wera de, ni inzobe, ari guseka yambaye ishati yamaboko maremare yiganjemo uturongo twamabara y'umweru, afite isahani mu ntoki ifite ibara ry'umweru, afite efoke mu ntoki inyuma ye hari amatara, hari ibikuta bisize amabara y'umweruru.

Abana ni abantu babiri, umwe yicaye mu kagare k'abafite ubumuga bwo kugenda, yambaye umupira w'amaboko maremare y'umuhondo, akaba yambaye marinete, akaba yirabura, akaba yambaye ipantaro y'ikoboyi, ku ruhande hakaba hicaye umwana w'inzobe ufite imusatsi myinshi, akaba yambaye umupira uri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ukaba yambaye nawe agapantaro k'ikoboyi, inyuma yabo hakaba hari amadirishya.

Urabona abantu babiri batandukanye umugore afite umusatsi mwinshi y'umweru yambaye agakufu mu ijosi yambaye impeta ebyiri afite urupapuro mu ntoki yambaye agapira k'amaboko magufi ,umugabo afite umusatsi mukeya urimwo ibara ry'umweru afite ubwanwa hejuru y'umunwa yambaye umupira w'ibara ry'ubururu yambaye agakufu.

Ndabona abantu babiri bari gusomera mu gitabo kimwe bari guseka, umwe yambaye rinete, afite umusatsi w'umukara, yambaye umupira w'amoboko magufi, imbere yabo hateretse ibikombe bibiri bisa umweru, undi yambaye ishati y'amabako maremare irimo amabara y'umweru n'umukara, akaba afite amenyo yerade, afite umusatsi w'umukara, akaba asa inzobe.

Abantu babiri batandukanye umugoregabo ufite ubwanwa burimo umukara n'umweru, arirabura ari gusoma ku itama uwambaye akantu mu mutwe karimo ibara ry'umutuku, nawe arirabura ari kureba imbere afite ishinya iri mu ibara ry'umutuku n'amenyo yera de.

Bano bantu babiri, ni umukobwa n'umupapa wicaye mu kagare k'abafite ubumuga bwo kutabasha kugenda; akaba afite umusatsi wera, akaba yambaye amarinete, kandi afite amenyo yera de ari guseka, akaba yambaye umupira w'amaboko maremare; inyuma ye hakaba hari umukobwa uri guseka ufite umusatsi w'umukara, akaba yambaye agapira k'amaboko magufi.

Aba ni abantu babiri batandukanye bari kurya umwe araseka afite amenyo yerade ubwanwa bwera de umusatsi muke werade yambaye rinete arirabura afite icyuma mu ntoki n'ikiyiko, undi ari kumureba wambaye linete ufite umusatsi w'umukara agiye gutamira ibiryo afite ifoke mu ntoki afite n'icyuma ku isahani.

Umukobwa wambaye amaherena afite agasatsi gake, ari guseka yambaye umupira w'amaboko usa maremare n'umweru, hakaba hari umukecuru wambaye umwenda w'imbere w'umukara, kandi afite umusatsi w'umukara haka n'umusore ufite ubwanwa bw'umukara, umusatsi w'umukara akaba yambaye umupira w'amaboko maremare w'umutuku.

Aba ni bantu babiri batandukanye, umwe arahagaze bambaye imyenda isa arirabura afite umusatsi w'umukara, afashe ku rutugu uwambaye umupira w'amaboko maremare wicaye ari kumureba mu maso, afite imvi, ni inzobe yambaye mo imbere agapira karimo ibara ry'ubururu.

Uyu ni umuryango urimo abantu batandukanye abagore, abana n'umuhungu, hakaba hari akana gatoya akambaye agakabutura gafite agasatsi gakeya k'umukara, hakaba hari uwundi ku ruhande wambaye agakanzu k'agaseri akaba ari guseka areba imbere, hari n'uwundi inyuma wambaye agakofero mu mutwe wambaye isengeri y'umukara.

Uru ni urubuga rw'abagore imbere hari uwambaye igitambaro mu mutwe isa n'ikanzu yambaye, yambaye inkweto z'umukara zifunguye inyuma ye, hari uwambaye agatambaro mu umutwe, mupira w'amaboko magufi y'umweru yambaye ijipo y'umukara, yambaye siripa z' umutuku inyuma nan none yambaye inkweto zifunze z umukara inyuma nanone hari undi wambaye inkweto z'umukara ariko wambaye umupira udasa n'indi, yambaye n'agatambaro mu mutwe gafitemo amabara.

Aba ni abantu babiri batandukanye, umwe yambaye amarinete afite imvi z'umweru, yambaye agapira kari mu ibara ry'umukara, imbereye hari ateretse amazi, undi afite ibintu mu ntoki yambaye agapira k'amaboko maremare, afite umusatsi mukeya imbere yabo hatetse ikayi bose baricaye.

Aba ni abantu batatu umusaza ukuze afite imvi z'umweru arirabura, afite ikibando aricaye yambaye ishati iri mu ibara ry'umweru, yambaye ipantaro, iruhande rwe hicaye akana k'agakobwa kari kureba imbere, kambaye umwenda uri mu ibara ry'umutuku n'ibara ry'umweru.

Aba ni abantu babiri batandukanye, umugabo yambaye rinete, afite imisatsi y'umweru, yambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku w'amaboko maremare, ni inzobe, umugore yambaye amaherena, afite agakufe mu ijosi, yambaye umupira w'amaboko muremure urimo uturungu tw'umukara higanjemo umutuku mwinshi, yambaye impeta, yambaye n'isaha ku kaboko.

Abana babiri batandukanye, hari umugabo wirabura muremure wambaye umupira w'umukara w'amaboko magufiya yambaye ipantaro. Iruhande rwe hari umugore w'inzobe ufite umusatsi w'umukara wambaye ishati, isaha ku kaboko, impantaro y'umukara akaba yambaye inkweto z'umukara.

Aba ni abantu hatandukanye aho umwe yicaye mu kagare k'abafite ubumuga bwo kugenda, akaba yambaye amaherena, akaba afite agasatsi gakeya, aka asa inzobe, akaba yambaye isaha ku kaboko, akaba yambaye ipantaro y'icyatsi kibisi, undi akaba yambaye imyenda isa y'ubururu, akaba afite umusatsi usa shokora, akaba asa inzobe.

Uyu ni umumama ukuze afite umusatsi w'umweru, ari kureba imbere, ari guseka yambaye amaherena, afite ifoka mu ntoki, isahani iri mu ibara ry'umweru, imbuto zitandukanye, yambaye umupira w'amabako maremare uri mu ibara ry'umweru, inyuma ye hari akabati kari mu ibara ry'umweru.

Uru ni uruhurirane rw'abantu benshi, abagabo n'abagore bose baricaye, harimo abagabo bambaye amakoti ari mu iba ry'umukara, bambaye amakaruvate mu imbere bambayemo amashati ari mu ibara ry'umweru, hari n'umugore ufite mikoro mu ntoki, inyuma yabo hari icyapa cyandikishijeho amagambo mu ibara ry'umweru.

Aha ni ku kigo nderabuzima, hari abaganga babiri, bambaye imyenda isa, harimo ubwoko bw'ubururu, bambaye ga zisa umweru, agapfukamunwa k'umweru, hakaba hari umugabo ukuze wicaye, yambaye imyenda y'umuhondo, akaba yirabura, akaba araramye, bakaba barimo baramupima indwara zo mu kanwa.

Abantu batandukanye harimo: ababikira batatu n'umugabo umwe wambaye ikote n'ipantaro bisa ishati mo imbere wirabura, muremure, wambaye isaha ababikira bambaye amajiri ari mu ibarara ry'umwe n'udutambaro mu mutwe turimo umweru, inyuma hari icyapa kirimo iba ry' ubururu.

Iki ni icyapa kigaragaza umwana wararamye afite amaso yera de ni inzobe, hariho amagambo yandikishije mu ibara ry'umweru, hari n'andi yashiweho icyatsi kibisi, hagana hasi hariho ibara ry'umutuku, hari n'andi magambo yandikiye mu ibara ry'umutuku.

Aba ni abagore n'abagabo bahagaze, inyuma yabo habaka icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, handikishijeho amagambo mu ibara ry'umweru, hakaba harimo umugore wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umuhondo, akaba yambaye rinete, akaba afite umusatsi w'umukara, hakaba harimo n'umukobwa wambaye agakanzu karimo amabara y'umutuku, hakaba n'undi ku ruhande wambaye ishati, akaba asutse ibisuko birebire.

Aba ni abantu batandukanye, hari abana bicaye bambaye amashati ari mu ibara ry'umweru, inkweto zifunze ziri mu ibara ry'umukara, amasokisi y'umweru, imbere yabo hari umugabo wirabura, wogoshe, wambaye ishati y'amaboko maremare iri mu ibara ry'umweru, aricaye, yambaye ipantaro.

Aha ni kwa muganga aho bafata ibizamini, uri gufata ibizamini yambaye agapira k'umukara k'amaboko magufiya, afite ibisuko birebire, ni inzobe, uri kumufata ibizamini yambaye akajiri kari mu ibara ry'umutuku, yambaye ishati y'amaboko maremare iri mu ibara ry'umweru, afite agatsi gakeya kandi arirabura.

Aha ni ku kigo nderabuzima aho basuzumira hari umukobwa uri gusuzuma umukecuru wambaye agatambaro mu mutwe, yiteye akandi karimo amabara y'umutuku n'umukara. Umukobwa ufite umusatsi mwinshi ni inzobe, yambaye umwenda uri mu ibara ry'icyatsi kibisi ifite amaboko magufiya mo imbere akaba yambayemo umupira uri mu ibara ry'umweru ufite amaboko maremare.

Uru ni uruhurirane rw'abantu benshi batandukanye, abagore, abagabo, hari uwicaye imbere umwe afite irangururamajwi mu ntoki, abandi bari kumureba, abicaye bareba imbere bamwe barogoshe abandi ntibobogoshe, abandi bafite imisatsi miremure, bicaye ku ntebe z'ibara ry'umutuku.

Iyi ni ifoto y'abantu babiri bose ni abagabo barigusuhuzanya bafite ibitabo mu ntoki. Umwe yambaye impeta, yambaye isaha. Undi yambaye linete, ni igikara, arirabura, arareba imbere. Undi ntabwo yambaye linete, arogoshe, yambaye karuvati irimo amabara y'ikigina. Yambaye ishati irimo ibara ry'umweru.

U ni uruhurirane rw'abantu batandukanye abagore n'abagabo, bosesambayeye imipira imwe iba ry'umweru, bafite icyapa kiri mu ibara ry'umutuku, umweru cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru, bose bari kugenda bambaye amapantaro ari mu ibara ry'umukara, bambaye inkweto zifunze, izifunguye, harimo abambaye ingofero, harimo abambaye rinete.

Aha ni ku kigo nderabuzima hakaba harimo mo amazu atandukanye yubakishije amatafari ari mu ibara ry'umuhondo ahiye hakaba hasizeho akarangi gatoya kari mu ibara ry'umweru hakaba bazengukijweho ubusitani burimo icyatsi kibisi hakaba harimo ibiti biteyemo bifite amababi arimo ibara ry'icyatsi kibisi.

Iyi ni nyubako isize irangi ry'umweru, ikaba ifite amadirishya menshi, harimo ibirahure, mu kayira kayijyamo hakaba harimo umuntu wicaye mu kagare, akaba afite ubumuga bwo kugenda, akaba yirabura, akaba areba imbere, ikaba ikikijwe n'ubusitani bufite ibibabi by'icyatsi kibisi, ikaba ifite indabo zirimo umutuku n'izindi zenda gusu umuhondo.

aha ni ku kigo nderabuzima, aho gikikijwe n'ibiti biri musitani, bifite amababi y'icyatsi kibisi, hakaba hashashe mu nzira amapave, hakaba harimo abantu batatu, abandi imbere batagaragara neza, umwe akaba yambaye imyenda irimo ibara ry'ururu, undi akaba yambaye umupira w'umweru, undi akaba yambaye ishati y'amaboko maremare.

Uru ni uruhurirane rw'abantu benshi baricaye, imbere yabo hari amazi y'Inyange, hari uwambaye rinete ku mutwe wogoshe, hari ufite mudasobwa imbere ye, hari uri kwandika, imbere ye hari uwambaye rinette wambaye ikoti ry'umukara, imbere yabo hari igitambaro cy'icyatsi kibisi.

Iki ni icyapa kiri mu ibara ry'umweru, cyandikishijeho amagambo mu ibara ry'umukara, hirya hakaba hari ibiti birebire bifite amababi ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, ruguru gato hakaba hari ikibambasi cyubakishije amatafari ahiye, hakaba hari ibyatsi ahagana hasi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hakaba hari n'amabuye.

Iki ni Ikigo Nderabuzima cyo kwa muganga, ikaba yubakishije amatafari ahiye, hakaba hasize uruhande rumwe ku gikuta irangi ry'umuhondo, ikaba ari inzu isakaye ifite parafo isa umweru, ikaba ifite inzugi zisize irangi ry'umuhondo, ikaba ifite ibirahure, imbere hakaba hateretse intebe zo kwicaraho.

Ni ikigo nderabuzima hejuru hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu handikishije amagambo ari mu mabaray'umweru imbere yacyo hakaba hari ubusitani, ifite indabo ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi, akaba ari amasakariya hakaba ari umuntu uhagaze hagana ruguru wambaye agapira karimo ibara ry'umweru, wambaye ingofero y'umweru.

Hano kubandabuzima mu cyumba bavuriramo hari imashini zipima uburwayi butagaragara amaso hari imashini zibishinzwe zirangaho, hari umugabo wirabura wambaye iteramoko maremare y'umweru, yambaye ipantaro iririmo ibara ry'umukara, arahagaze arogoshe.

Iyi ni inzu ifite inzugi ziri mu ibara ryerurutse zifite ibirahure, imbere y'iyi nzu hari amapave ashashe hasi, mo mu imbere muri iyo nzu hashashemo amakaro, imbere y'iyo nzu hari ibirabyo biri mu ibara ry'icyatsi, hejuru kuri iyo nzu handikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Aha ni ku kigo nderabuzima hari umwana w'umukobwa uryamye ku gitanda arirabura bari kumusuzuma yambaye ishati y'ibara ry'umutuku afite imisatsi y’umukara iruhande rwe hari Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare karuvati n’amarinete nawe arirabura yambaye ipantaro y'umukara.

Aha ni ku kigo nderabuzima ho mo imbere, ku nzu hasizemo irangi ry'umweru hari n'utundi tubara turimo umutuku n'ubururu hakaba hari intebe zitandukanye ziri mu ibara ry'ubururu hakaba imbere yaho hari utumeza, ku ruhande hakaba hari imashini bakoresha barimo gupima uburwayi bitandukanye, hejuru hakaba hari kwaka amatara asa umweru hakaba hari na parafo y'umweru.

Aba abantu babiri batandukanye bose barirabura umugabo arogoshe yambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, umugore yambaye agatambaro mu mutwe kari mu ibara ry'umukara ikanzu irimo amaba y'umuhondo n'amabara y'ubururu, inyuma yabo hari ibitoki biri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Iki ni icyumba kiryamyemo abantu batandukanye, hejuru hakaba hasize irange ry'umweru, hakaba hariho amatara, hakaba hari super net ziri mu ibara ry'umweru, hakaba hari amadirishya afite ibirahure, ku gikuta hakaba hasize irangi ry'umweru, hakaba hari amashuka ari m ibara ry'ikigina, hakaba hari n'andi ari mu ibara ry'umweru hasi hakaba hasimase.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga isize irangi riri mu ibara ry'umuhondo, imbere yaho hari ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari ivaze iteretsemo ururabo rw'icyatsi kibisi, ivaze irasa ibara ry'umutuku, ku ruhande yasimatishije sima, hirya yaho hari ibirahure...

Iyi ni inzu yo muburyo bwa kadasiteri ifite amabati y'umutuku imbere hari amadarapo abiri ari mu mabara atandukanye isize amabara y’umweru n’umukara ifite amadirishya mu ibara ry'umweru, ku ruhande hari urugi rukinguye harimo umuntu uhagaze mu muryango wambaye agapira k'umweru.

Iyi ni inyubako ifite inzugi ebyiri ikaba hejuru ifite ibirahure hakaba hari icyapa cyandikishije amagambo mw' ibara ry'ubururu hakaba hariho ijisho ku ruhande rw'ifoto hakaba hejuru hariho irangi riri mw'ibara ry ' ubururu imbere hakaba hari amabuye ashashe hasi .

Aha ni ku kigo nderabuzima hari umugabo wicaye yambaye umwenda w'ibara ry'ubururu arirabura afite umusatsi mukeya, afite ubwanwa ari kureba imbere mudasobwa n'indi afite iruhande rwe ayikozeho iruhande rwe hari ibintu biri mu m'amabara y'umweru.

Iyi ni nyubako yubatse mu buryo bwa etaje, hakaba hari ahubakisha amatafari ahiye y'umuhondo, hakaba hari ahasize irangi ry'umweru, imbere hakaba hari amatara yaka nijoro hakaba hari ubusitani hakaba ubusa icyatsi kibisi, hakaba hateyemo ibiti birebire hakaba hari n'izindi ndabo zifite amababi y'umuhondo.

Inzu yubatse mu buryo bwa etaje ikaba isize irangi riri mu ibara ry'umweru , imbere akaba hari icyapa gisize ibara ry'umweru , umutuku hakaba handikishijeho amagambo yo mu mabara y'umweru hakaba hari ubusitani imbere yaho hari jaride iruhande rwawo ruguru hakaba hari ibiti by'icyatsi kibisi hejuru kuko hari insinga zitwara umuriro.

Izi ni inyubako zubatse mu buryo butandukanye, zikaba zifite amadirishya n'inzugi, hakaba hari abantu bahagaze n'abicaye, hakaba harimo abambaye ingofero, ikote hakaba harimo uwicaye wambaye igitenge kirimo amabara yicyacyatsi n'umuhondo hakaba hari ubusitani bufite amaba y'icyatsi kibisi.

Iki ni icyapa cyerekana ikigo nderabuzima, hakaba handikishije amagambo mu ibara ry'umweru, hakaba hari igikuta ahagana haruguru cyubakishije amatafari ahiye, hakaba hakikijwe ibiti bifite amababi y'icyatsi kibisi, hakaba hari abantu mu kayira, hasi hakaba hari ibitaka; hakaba hari amazu afite amadirishya n'inzugi.

Iki ni icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye gisize ibara ryera, harimo televiziyo iri mu ibara ry'umukara, harimo intebe, harimo ibyuma byifashishwa mu gupima indwara zitagaragara biri mu ibara ry'umweru n'ibara ry'umukara rikeya.

Aba ni abantu batandukanye umwe ari mu kagari k'abatabasha kugenda akarasa umukara yambaye ishati y'amaboko maremare, afite agasatsi gakeya arirabura undi uri kumusunika yambaye ikote nawe afite umusatsi mukeya arirabura ni mugufiya imbere hari uwambaye umupiramo w'amagufi uri mu ibara ry'umweru wirabura.

Aha ni ku kigo nderabuzima hari abantu hatandukanye hari abahagaze hari abasutamye hakaba hari uwambaye imikenyero isa umutuku n'agapira k'umukara imbere, umusatsi w'umukara hakaba n'undi ku ku ruhande yifashe mu mufuka wambaye ishati y'amaboko maremare isa umweru, hakaba hari n'undi wambaye ikote risa umutuku w'umumama akaba yirabura.

Ni uruhurirane rw'abantu benshi, harimo abirabura, harimo abazungu, barahagaze, hari n'umwe wicaye, wambaye ishati y'amaboko magufiya, ari guseka, arirabura, ari kureba imbere, afite amenyo yera de, abandi barahagaze harimo abambaye ikote, harimo abambaye utujire.

Iki ni cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye harimo intebe bicaraho ziri mw’ibara ry'umweru, hariho ameza baterekaho ibikoresho, hari aho bakarabira hafite irangi ry'umweru, hejuru hari itara risa umweru, hari parafo isa umweru, ku ruhande har’akabati kariho ibara ry'umutuku, ibara ry'umuhondo, n'ibara ry'umweru.

Iki ni cyapa gisa umweru, kikaba gishinze ahantu utubuye twinshi, hakurya yaho hakaba inzu yubatse mu buryo bwa kadasiteri, ikaba ifite amabati asa n'icyatsi, ikaba yubakishije amatafari ahiye, hakurya yaho hakaba hari ibindi biti birebire bifite amababi y'icyatsi kibisi, hasi hakaba hari pasiparama isa n'icyatsi kibisi.

Iyi ni inyubako iri mu buryo bwa etaje ikikijwe n'ibiti biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, imbere yayo haparitse imodoka nyinshi ziri mu mabara atandukanye, mu mabara y'umweru n'amabara y'umukara, imbere yaho hari icyapa kirimo ibara ry'umweru handikishijeho amagambo mu ibara ry'umukara.

Iyi ni inyubako yubatse mu buryo bwa etaje yubakishije amatafari ahiye ikaba ifite amadirishya afite ibirahure ikaba iriho icyapa k'ibara ry'umweru cyandikishijeho amagambo mu ibara ry'icyatsi kibisi imbere yaho hakaba haparitse imodoka zirimo ibara ry'umukara hakaba hari umutaka imbere yayo hakaba harimo umuntu uhagazemo wambaye umwenda w'umutuku hejuru inyuma hakaba hari ibiti.

Aha ni ku kigonderabuzima hari umugabo uryamye, akaba yambaye agapfukamunwa, akaba yirabura, akaba yambaye agapira k'amaboko magufiya, akaba yambaye ikabutura, akaba yambaye ibirenge, akaba afite ibipfuko bibiri ku kaboko kamwe, muri icyo cyumba arimo kikaba gisize irangi ry'umweru, hakaba harimo n'imashini zirimo kumufasha kugira ngo agire ubuzima.

Hano ku kigo nderabuzima hari umwana bari kuvura yambaye ubusa hejuru ,yambaye ipantaro ,arogoshe, ni imibiri yombi ,hakaba umuganga uri ku muvura wambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru ,wambaye agapfukamunwa .afite agasatsi gake kumukara, hakaba hari umusore wicaye aho ngaho ,wambaye ikabutura n'agapira k'amaboko magufi.

Iyi ni inyubako isize ibara ry'umweru, imbere yayo hari ibiti by'icyatsi kibisi, hari umugabo uri kuhasohoka wambaye ishati y'amaboko maremare iri mu ibara ry'umutuku n'ipantaro y'umukara, imbere hari n'undi uhagaze wambaye umupira w'amaboko magufi uri mu ibara ry'umutuku na we wogoshe wirabura.

Aha ni ku kigonderabuzima aho hari abarwayi baryamye ku bitaro, bakaba biyoroshe amashuka asa umweru, hakaba n'undi wiyoroshe ishuka isa ubururu, hakaba hari amadirishya, hakaba hariho n'amarido, hakaba hejuru hari amasupanete asa umweru, mo imbere mu cyumba, hakaba hasizemo irangi ry'umuhondo.

Aha ni ku kigo nderabuzima aho cyubakishije amatafari ahiye, ahandi hakaba hasize irangi, kikaba gifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'umweru, hakaba hari umugabo uhahagaze wirabura wambaye ikoti ry'umukara, n'ipantaro y'umukara, hakaba hari n'umugore uhagaze wambaye agapira k'amaboko magufiya k'ubururu, hakaba hari n'abandi bicaye iruhande rwe.

Aha ni ahantu hahuriye abantu batandukanye abagabo, abagore, harimo abambaye imipira iri mw’ibara ry'umuhondo abandi bambaye umupira iri mw’ibara ry’icyatsi cyerurutse, undi inyuma yambaye umupira uri mw’ibara ry'umweru, bamwe bambaye ibitenge biri mu ibara ry'umutuku, abagabo bambaye amapantaro y'ibara ry'umukara.

Uyu ni umugabo wogoshe w'igikara, wambaye ikote riri mu ibara ry'ubururu bwijimye, imbere ye hari mudasobwa ebyiri, umwe ayikozeho indi ari kuyirebamo, harimo igishushanyo kigaragaza amagufwa, kuri iyo mudasobwa ari kurebamo iruhande hariho udufoto twinshi cyane tugenda tugaragaza ibishushanyo bigiye bitandukanye bicishijwe mu cyuma.

Aha ni ku kigo nderabuzima hari umugore uryamye wirabura, ubumbye umunwa, akaba yiteze igitambaro mu mutwe gisa n'igitenge yambaye, hakaba hari umuganga iruhande rwe wambaye ga mu ntoki zombi ziri mu ibara ry'umweru, wambaye itiburiya y'amaboko maremare iri mu ibara ry'umweru, akaba afite umusatsi mukeya w'umukara, akaba yambaye n'amarinete.

Iri ni huriro ry'abantu batandukanyekanya abagore n'abagabo harimo abahagaze bose barirabura harimo n'uwiciye mu kagari akaba afite umugabo urimo kugenda karimo uwifubitse agatambaro karimo ibara ry'umuhondo akaba ateze agatambaro mu mutwe ugasa n'igitenge akamo n'uwambaye itaburiya y'amaboko maremare y'umweru.

Iyi ni inyubako yubatse mu buryo bwa etaje, imbere hari ibiti ibirebire bifite amababi y'icyatsi kibisi, hejuru handikishijeho amagambo mu ibara ry'icyatsi, hakaba hari abantu imbere y'iyo nyubako, hakaba hari amadarapo atandukanye, harimo iry'u Rwanda rifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi, hakaba n'ibyapa bikoreshwa mu muhanda imbere y'inyubako.

Aha ni ku kigo nderabuzima hari abantu batandukanye abana, abagore n'abagabo bicaye ahantu hamwe bicaye imbere yabo banisha amagambo mu ibara ry'umukara hari uwambaye agapira k'ibara ry'ubururu hari uhetse umwana uteze igitenge gifite ibara icyatsi n'ibara ry'umweru, hari uwambaye igitenge k'ibara ry'umuhondo, umukara n'umutuku.

Iki ni icyumba gitandukanye harimo ibikoresho bitandukanye nka mudasobwa hifashisha gukurura ibintu bitandukanye, harimo akabati gakozwe mu biti hakaba harimo uburiri buriho amashuka ari ibabura ry'umweruru, kaba n'ubundi ishuka harihoho ibara ry'cyatsi kibisi n'ubururu hakaba hariho ku kibambasi igishushanyo kirimo imbuto zitandukanye.

Izi ni inyubako zubatse mu buryo butandukanye, hakaba hari idarapo ry'u Rwanda rifite amabara ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi, hakaba hari ubusitani nka jaride ifite ibara ry'icyatsi kibisi, hakaba ku ruhande rw'inzu hariho ibyatsi birimo amabara umutuku, umuhondo n'icyatsi kibisi, hakaba hari n'inzu zisize ibara ry'umweru.

Iki ni icyapa kiri mu ibara ry'umweru, hakaba handikishijeho amagambo mu ibara ry'umutuku, hakaba n'andi yandikishije mu ibara ry'umweru, n'andi mu ibara ry'umukara, hakaba hari n'ikindi cyapa giteretse ahagana hasi, inyuma hakaba hari ibiti birebire, ibigufi hakaba hari n'amawuwa afite ibibabi byenda gusa umuhondo.

Irindi ni tsinda ry'abantu benshi abagore n'abagabo harimo abambaye imyenda y'icyatsi kibisi. Hari uwambaye umwenda urimo ibara ry'umweru. Hari umugore wambaye imyenda irimo ibara ry'umukara. Hari itete ririmo ibara ry'umweru. Hari amabati arimo ibara ry'icyatsi kibisi. Hari inzu isize irangi ry'umutuku.

Aha nik’umuganga ufasha abarwayi hicayemo umugabo areba imbere ari guseka yambaye itaburiya iri mu ibara ry’umweru y’amaboko maremare yambaye isaha ku kaboko yambaye yambaye n’undi mwenda uri mu ibara ry'umuhondo yambaye ipantaro y'umukara yambaye inkweto z'umukara yicaye ku ntebe ifite ibara ry'icyatsi kibisi iruhande rwe hari ibyuma byifashishwa mu kuvura abantu.

Aha ni ku kigo nderabuzima, aho hari ibitanda biciye bugufi, bifite ibara nk'ubururu, umweru, bifite matera ziriho imyenda isa icyatsi kibisi, hakaba hari amadirishya, hakaba hari igikuta, hakaba hari n'akabati ku ruhande, gafite ibara ry'umweru n'ubururu.

Iyi ni inzu iri mu buryo bwa cadastire afite amabati ,ikaba ifite amadirishya asize irangi ry'icyatsi kibisi ikaba isize umuhondo, imbere hakaba hari jadrin akaba hateyemo igiti ,ku ruhande hakaba arizindi nzufite amadirishya asize irangi ry'umweru ifite amabati arimo ibara ry'umweru.

Aha ni aho bagurishiriza imiti mu imbere harimo umuntu uhetse umwana amutwikirije agatambaro kari mu ibura ry'umweru, akennyeye igitenge yiteza ikindi mu mutwe. Iruhande rwe hari akana kambaye agapira kari mu ibara ry'umutuku. Imbere haparitse abamotari babiri, iruhande rw'abamotari hari imodokarimo iri mu ibara ry'umweru.

Iyi ni inyubako hakaba harimo icyumba bakoresha mu igororamubiri rusange, hari ibyuma bitandukanye baterura, baryamaho, banyonga, hejuru hakaba hasiye irangi riri mu iba ry'umweru hakaba harimo amatara ari mu ibara ry'umweruru hakaba ibikuta bisize irangi ry'umweru.

Ku kigonderabuzima hari abantu batandukanye, abagore n'abagabo, harimo abicaye, harimo bahagaze, harimo bambaye imyenda isa ubururu, harimo uwambaye imyenda isa icyatsi kibisi, bakaba bose bambaye agapfukamunwa, hakabamo abambaye amarinete. Iruhande rwabo hakaba har'ibikoresho byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, hakaba hari igitambaro gisa ubururu.

Ibindi bikoresho bitandukanye harimo: imbuto zimwe zifite amababi y'icyatsi kibisi, izindi zisa umuhondo, izindi z'icyatsi kibisi hose ,hakaba harimo umuneke usa umuhondo ,hakaba harimo imidari ifitemo amabara umutuku, ubururu, n'umweru. Hakaba hari n'icupa, hakaba hari n'ibinini bifite ibara umweru n'umutuku.

Abana ni abagabo babiri bari muri siporo, umwe yambayeka ikabutura y'umukara, umupira w'amaboko magufiya uri mu ibara ry'umutuku, yambaye isaha, yambaye inkweto zifunze ziri mu iba ry'umukara, afite baro mu ntoki iri mu ibara ry'umutuku, afite ubwanwa ntagaragara neza mu maso ku ruhande rwabo hari undi wambaye umupira w'amaboko magufiya uri mu ibara ry'umukara n'ipantaro ndende.

Uyu mugabo wirabura aka agaraga neza mu maso, aka afite ubwanwa ku kanwa busa umukara, akaba yambaye umupira w'amaboko maremare, akaba yambaye agakabutura kagufiya k'umukara, apfukamishije ivi rimwe, akaba afatishije amaboko yombi ku ivi rindi, akaba kambayeye udusogisi tw'umweru, akaba yambaye inkweto ziriho umweru n'umukara.

Iyi ni miti itandukanye ivura indwara ziri mu ubwoko bwinshi. Hari iyi iri mu icupa ry'umweru ifite imifuniko y'umweru, hari n'indi imeze nk'amazi, hari n'indi imeze nka korogati bene iri mu dushashi, hari naga ku ruhande.

Uyu ni umukobwa wicaye ku itapi, akaba yambaye agakomo ku kaboko, akaba yifashe mu birenge n'intoki zombi, akaba inzara zisize ibara ry'umutuku, akaba ari guseka, afite amenyo yera de, akaba yambaye agasengeri, akaba yunamye, akaba ari inzobe, akaba yambaye agakora kamufashe, akaba atagaragara neza mu maso.

Uyu ni umugabo uri mu ingoramubiri, akaba asa inzobe, akaba abyibushye, akaba aterura icyuma n'amaboko yombi, akaba yambaye agapira k'amaboko magufiya k'umukara, akaba yambaye ipantaro, akaba araramye, atagaragara neza mu maso. Iruhande rwe hakaba hari ibindi byuma byifashishwa mu ingororamubiri bitandukanye.

Uyu ni umugabo wirabura afite icupa ry'amazi mu ntoki ari kuyimena mu maso, yambaye akantu ku kaboko kari mu ibara rya move, yambaye isengeri imwe iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, inyuma ye harimo gutaragurika amazi n'imbere, afite ubwanwa, arahumirije arareba hejuru.

Aha ni ku kigonderabuzima hagenewe igororamubiri, hakaba hari umugabo uryamye, wirabura, wogoshe, wambaye agapira k'amako magufiya kari mu ibara ry'umweru, wambaye inkweto ziriho umweru n'umukara, hakaba hari umuntu umufashe ku kaguru wambaye umupira w'amaboko maremare y'umweru, akaba yambaye n'itaburiya.

Iri ni huriro ry'abantu batandukanye, hakaba higanjemo abakuru n'abana; hakaba harimo uwambaye agapira karimo umweru, akaba yambaye n'inkweto z'umweru n'ipantaro. Hakaba hirya hari inzu ya Kadasitiri ifite amati y'umweru, inzugi n'amadirishya; hakaba ahagana hirya hateye ibiti bifite amababi y'icyatsi kibisi.

Uyu ni umugabo wirabura, afite agasatsi gakeya, afite icupa mu ntoki ari kunywa amazi, akaboko kamwe ni ko karifashe, yambaye umupira uri mu ibara ry'ikigina, afite utwanwa dukeya, araramye, ntagaragara neza mu maso, imbere ye hari ibiti bitagaragara neza.

Aha ni ku kigo nderabuzima hari abantu batandukanye, hakaba hari umugabo wambaye rinete, agapfukamunwa, akaba yirabura, akaba afite umusatsi mukeya, akaba itaburiya y'amaboko maremare y'umweru. Hakaba hari n'undi wambaye ikoti ry'umukara akaba yirabura, akaba yogoshe. Hakaba n'undi wambaye itaburiya y'amaboko maremare akaba yambaye rinete, akaba nta gapfukamunwa yambaye. Hakaba hari n'undi mukobwa ku ruhande wambaye itaburiya y'amaboko maremare y'umweru, hasi akaba yambaye ikintu cy'umukara.

Iyi ni imashini ipima imigendere y'umutima, iri mu ibara ry'umweru mo imbere harimo ibara ry'umukara, harimo imibare myishi imibare y'icyatsi kibisi, harimo n'indi yindikishije mu ibara ry'umutuku, iteretse aho ngaho inyuma hari umuganga wambaye imyenda y'imyeru ahantu hose n'ingofero y'umweru wunamye.

Abantu babiri batandukanye bambaye imipira ya siporo migufiya harimo ibara ry'ubururu, bambaye amakabutura ari mu ibara ry'umukara, wambaye amasogisi ari mu ibara ry'umukara, hari uryamye hasi undi amufashe ku ivi, iruhande rwabo hari baro ifite amabara y'umweru n'umukara baryamye ku byatsi mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Hano ni ku kigo nderabuzima ho basuzuma ibijyanye no mu kanwa, hari umwana muto, yambaye agapira k'amaboko magufiya, arasamye; afite umusatsi mukeya. Inyuma ye hari umugabo wambaye agapfukamunwa, wambaye ishati y'amaboko magufi; hari n'umumama wambaye agapfukamunwa k'umukara, umupira w'amaboko magufi yo mu ibara ry'umukara. Hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare.

Aha ni ku kigo ndebuzima, hari abantu batandukanye, hari abicaye, hari uhagaze, wambaye itaburiya y'amaboko maremare y'umweru, yambaye ipantaro y'umukara, akaba yambaye inkweto z'umweru n'umukara, akaba yirabura, akaba mu bicaye harimo umugore wambaye rinete, afite umusatsi muremure, wambaye itaburiya y'amaboko maremare, hakaba hari n'undi wambaye imyenda isa, wubitse umutwe ari kwandika ku ikayi.

Umugabo uri muri siporo ntagaragara neza amaso, arirabura yambaye agapira y'amaboko magufiya, yambaye agakabutura kari mu ibara ry'umukara, hasi yambaye urukweto ruri mu ibara ry'umweru, yifashishije akaboko kamwe ku mayunguyungu, ukundi gufashe ku rukweto, ari ku cyuma kiri ku muhanda, iruhande rwe hari amazi.

Mu Kigo Nderabuzima hari umugabo urimo kuhavurirwa akaguru, akaba yicaye ku gitanda gifite matera isa umukara, akaba yambaye ipantaro, akaba yambaye agapira k'amaboko magufiya, akaba atagaragara mu maso, akaba yambaye agakufi mu ijosi, akaba yirabura, akaba arimo kuvurwa n'uwambaye isaha w'inzobe wambaye ishati y'amaboko maremare wayikunje isa umweru.

Uyu ni umukobwa uri kunywa amazi, afatishije icupa akaboko kamwe, ntagaragara neza mu maso. Yambaye ekoteri ndende ziri mu ibara ry'umweru, akaba yiziritse ikintu ku kaboko gisa umutuku, akaba yambaye agapira k'amaboko magufiya k'umutuku, akaba ahagaze, akaba araramye.

Uyu ni umusore uri muri siporo, ntago ari kugaragara neza mu maso, yabumbye umunwa, akaba akaboko kamwe yagacishije hejuru y'umutwe, hakaba hagaragara, akaba yambaye iserengeri, hakaba kagaragara akaguru kamwe, hakaba hejuru ye hari ikirere kerurutse, hakaba harimo ibicu by'umweru.

Uyu ni umukobwa arirabura afite umusatsi mukeya w'umukara, afite icupa mu ntoki ari kunywa amazi, rifite umufuniko w'ubururu akarifatisha akaboko kamwe, afite agatambaro kubitugu kari ibara ry'umweru, akaba yambaye agasengeri gafite ibara umweru, ubururu, harimo n'icyatsi kibisi.

Abana ni abantu batatu batandukanye, aho bose bapfukamye hasi, umwe apfukamishi ivi rimwe, ni inzobe, yambaye imyenda y'umukara hose, undi yambaye ubwirinzi bwo mu mutwe, yambaye imyenda y'umweru, undi aramufashe, yamba lunette, yambaye umupira w'amaboko maremare, akaba yambaye n'ipantaro y'umukara.

Ahan ni mu igororamubiri rusange, hakaba hari umugabo wirabura, utagaragara neza mu maso, akaba yambaye agasengeri, ikabutura ngufiya n'inkweto z'umukara, ari gusimbuka, ku ruhande hakaba hari umugore usutamye w'inzobe, ufite umusatsi muremure, akaba yambaye agapira k'amaboko magufiya, akaba yambaye n'ipantaro y'umukara.

Aba ni abantu babiri batandukanye bari kwiruka bafite amacutara y'amazi mu ntoki ntibagaragara neza mu mumaso, umwe yambaye agasenge kari mu ibara ry'ubururu, undi yambaye agakabutura kari mu ibara ry'umukara gafite icyatsi ku ruhande, undi yambaye agakabutura karimo ibara ry'umukara gusa, iruhande rwabo hari imisozi.

Uyu ni umusore wirabura ari kunywa amazi mu icupa ry'ubururu afatishije akaboko kamwe icupa, akaba afite umusatsi mukeya wirabura akaba yambaye agasengengeri, akaboko kamwe kakaba kamanitse hasi akaba abyibushye, imbere hakaba hari ibyatsi ariko bitagaragara neza.

Uyu ni umugabo uri muri siporo, yambaye ikabutura iri mu ibara ry'umukara, yambaye agasengeri kari mu ibara ry'umukara, arirabura, apfukamishije ivi rimwe, yambaye ibirenge, inyuma ye hari igikoresho kiri mu ibara ry'umukara, apfukamye ku itapi iri mu ibara ry'umukara.

Umugabo wicaye wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru ntagaragara neza mu maso, afite ibyo bakoresha barimo kwivura amavunane, yambaye ipantaro, yicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umweru, iruhande rwe ntabwo ibihari bigaragara neza ariko inyuma hari ibigaragara nk'urugi n'ibindi.

Uyu ni umusore uri muri siporo, akaba ari kugorora amaboko, akaba yayasobekeyije, akaba yafunze ibipfunsi, akaba afite ubwanwa ahagana hasi, akaba yirabura, akaba atagaragara mu maso, akaba ahagaze, akaba yambaye isengeri, inyuma ye hakaba hari igikuta kitagaragara neza ariko gisize irangi ry'umweru.

Aba ni abantu batandukanye hari abambaye imyambaro y'ubutabazi bw'ibanze, hakaba harimo uwambaye agapira k'amaboko magufi uteruwe, hakaba harimo ibara ry'umuhondo n'ipantaro y'ubururu yayikunje, mu bamuteruye bakaba mo imbere bambayemo agapira k'aboko magufiya k'umweru, inyuma bakaba bambaye amajiri y'umutuku.

Umukobwa uri muri siporo, akaba yicaye hasi, akaba akaguru kamwe agahinnye, akandi akarambuye, afatishije ikiganza kimwe ku kaguru, ikindi gifashe ku rukweto rufite ibara ry'umweru n'umutuku, akaba yambaye kora ndende iri mu ibara ry'umukara, akaba yambaye agasengeri, akaba yirabura, akaba ari kureba hasi, akaba ahumirije.

Umukobwa uvuye muri siporo afite icupa mu ntoki ari kunywa amazi afite umusatsi w'umukara ntagaragara neza mu maso arirabura yambaye amaherena matoya afite agatambaro kurutugu karimo ibara ry'umukara nambaye agasengeri karihutura t k'umukara hand higanjemo umweru akaboko kamwe niko gafite icupa.

Uyu ni umuntu wambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, irasa umukara, akaba yifashe ku mavi n'amaboko yombi, akaba afite inzara zisa umweru, akaba yambaye agakabutura kagufiya kari mu ibara ry'umukara, inyuma ye hakaba hari ibyatsi bitagaragara ariko mu ibara ry'icyatsi kibisi, akaba yirabura.

Umusore uri kunywa amazi, yambaye ekuteri ndende mu matwi ziri mu ibara ry'umweru, afite icupa ry'amazi mu ntoki ry'inyange, akaba yambaye agapira k'amaboko magufiya, akaba afatishije ukuboko kumwe icupa, akaba akandi kaboko akamanuye hasi, inyuma ye hakaba hari ibiti bitagaragara, akaba ahagaze.

Umwana w'umukobwa wicaye hasi, yambaye inkweto zirimo ibara ry'umweru, yambaye kora ndende, yambaye isengeri iri mu ibara ry'umukara, yambaye ikuteri ziri mu ibara ry'umweru, ni inzobe. Ari kureba hasi, arambuye amaboko yombi, afashe ku rukweto, iruhande rwe hari icupa riri mo amazi.

Iyi ni miti iri ahantu hatandukanye, harimo udukarito, kamwe gasa umweru kandi gafite amabara y'icyatsi kibisi, hari niri mu macupa, rimwe rifite umufuniko w'umutuku rigufi, irindi rirerire, irindi rifite agafuniko k'umweru ariko rirerire, irindi rifite agafuniko k'umukara ariko ryo risa umweru.

Aha ni mu murima aho batera ibiti by'amoko atandukanye, hari umuntu uhagazemo wambaye agapira karimo ibara ry'umukara arirabura nta musatsi mwinshi afite, hari n'abandi inyuma bahagaze umwe yambaye agapira kari mu ibara ry'umweru, hari n'abandi hirya bunamye bambaye imyenda ifite amabara y'umutuku iruhande rwabo hari ibiti biri mwibara ry’icyatsi kibisi.

Ibi ni ibikoresho bakoresha barimo barakora umuti gakondo, hakaba hari tangawize, hakaba hari ibyatsi by'ibara ry'icyatsi kibisi, bikaba biteretse ku meza, hakaba hari ikiyiko kiriho umuti, hakaba hari n'akandi kantu ku ruhande bakoresha bayungurura gafite ibara ry'umuhondo kanayungurura.

Iki ni icyapa cyerekana umuti w'amenyo hariho amenyo yera de, iminwa ijya gusa umutuku, hari n'amacupa atandukanye ari mu ibara ry'umweru. Hari amagambo yandikishije mu ibara ry'umukara n'andi yandikishije mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari ibikombe bitandukanye hari n'uburoso.

Ibyatsi bitandukanye bimo moko atandukanye akorwamo imiti ivura indwara zitandukanye hakaba hari aho babitunganyiriza, hari agafite ibara ry'umweru hakaba hari ibyatsi miri mu ibara ry'icyatsi kibisi hakaba hari n'indi ifite imbuto zirimo ibara ry'umuhondo bikaba biteretse mu tuntu tuboshyeye mu muryo gakondo.

Abana bakerarugendo bari hagati y'umusozi barimo kuganira ku mazi arimo guturuka hejuru ku misozi menshi cyane, bakaba barimo kugenda n'amaguru, bakaba bakijwe n'ibiti n'amabuye, hakabamo ibiti birebire, ibigufi, ibifite amababi y'icyatsi kibisi n'ibidafite amababi, n'ibidafite amashami; bose baka bahetse ibikapu.

Uyu ni umugabo wambaye agapfukamunwa, yambaye akanu k'umutwe kari mu bara ry'umukara, yambaye ishati y'amaboko maremare, yambaye itaburiya y'umweru, afite agakarito mu ntoki kari mu ibara ry'umutuku n'irindi bara ry'umuhondo, imbere ye hateritse amacupa arimo ibara ry'umukara afite umufuniko w'umweru.

Ibi n’ibyatsi bitandukanye birimo ibara ritandukanye, harimo iby'icyatsi kibisi cyane iby’icyatsi kibisi cyerurutse ibifite n'icyatsi kibisi cyenda kuba umuhondo gihishije, bifite amababi atandukanye hari ahari byinshi hari ahari kimwe, hari ibifite amababi magufi abumbabumbye n’ amababi acagaguye…

Iyi ni miti itandukanye iri mu icupa riri mu ibara ry'umweru iracuritse, imwe iriho amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi kibisi, indi iriho amagambo yandikishije mu ibara ry'umuhondo werurutse, hari abantu ku ruhande, bamwe bareba ku ruhande, abandi bari imbere bafite ibiheri bitandukanye mu maso.

Ibi ni biti biri mu bwoko bwinshi bigiye bitandukanye, harimo ibiti birebire, harimo ibiti bigufiya, harimo ibiti bifite amashami menshiri, harimo ibifite amababi ari mu ibara ry'umutuku, harimo ibifite amababi ari mu ibara ry'umweru, harimo ibifite amababi ari mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Iki ni igikoresho gikoreshwa mu gusekura imiti, icyo basekuriramo, n'ako basekurisha mo imbere, biri mu ibara ry'umukara, iruhande rwayo hari ibibabi bitandukanye, ibifite amabi magari, ibifite amababi mato, ibifite udushami duto, ibifite imbuto, ibifite uduti, ibifite utubabi duto duto.

Aya ni amavuta atandukanye, harimo amaremare, amagufi, yose arateretse; harimo ayafite ibara ry'umutuku, ibara ry'ikigina, ibara ry'umukara werurutse, ibara ry'icyatsi kibisi, hose handikishije amagambo mu ibara ry'umweru.

Iki ni icyapa hariho ibinini by'umweru, hariho icupa biba birimo rifite umufuniko w'umweru naryo n'umweru, hari icyatsi kiri ku ruhande kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umweru, icyapa kiri ibara ry'umutuku.

Abana abantu batandukanye umugore n'umugabo umugore ateze agatamba mu mumutwe yambaye agapira k'amaboko maremare gafite ingofero naho umugabo yambaye agapira mw'imbere karimo ibara ry'umutuku w'inyuma yambaye agakote karimo ibara ry'umukara nta musatsi afite akingirijwe n'ibiti bifite amababi y'icyatsi kibisi.

Aya ni amacupa atandukanye hakaba harimo abiri mu ibara ry'umuhondo afite umufuniko w'umutuku, imbere hakaba yahandishaho amagambo mu iba ry'umutuku kuri ayo amacupa, hakaba hari n' ayandi abiri ari mu ibara ry'umweru, rimwe rikaba rifiteho amabara y'ubururu irindi rikaba rifiteho amaba y'icyatsi, hakaba handikishijeho amagambo mu ibara ry'icyatsi kibisi.